Ingabo z'igihugu zirimo abagabo, abagore, abakobwa, abahungu, abasore n'inkumi, abakobwa bato. Ari ariyo mpamvu igihugu cyacu kirimo umutekano gitengamaye, ntabwoba dufite.

Ugubindi nigwiza gukogwa mu ibumba ,tugwengeramo umusururu, iyo gumaze gusha turanywa tukagotomera tugashira inyota.

Kororaga inzuki dukoraga umutiba, tukawushyira mu giti hejuru tugasigaho ikinyagu, inzuki zikazaga mu mutiba zikazanagamo ubuki twaza kuzihakura tugacana umuriro hasi kandi tukifubika mu maso zitaturumaga.

Ku muganura turanywaga, turaryaga, tukagutumiza mu museke mu kibindi tukarishaga intoki. Biba ari byiza cyane!

Byiza cane, umukecuru azanye impungure ku gasahani gusa ntabwo ndibuhage ndashonje ndashonje!

Kujanaga mu rusengero, turabanzaga tukajya, tugasenga, twagera no ku rusengero, tukabanzaga gusenga, kugira ngo duhunze abadayimoni.

Iyo umuntu arajya mu mujyi wa Musanze aca kuri sitade, akamanuka ku kinyubako cya polisi cya etaje cyiza cyane, akagera no ku rusengero rw'abaporoso kugira ngo yihute agere muri kariyeri.

Ku bantu bazi ugu munara ico gusobanuye ugu nyubako gushushanyije hano gusobanuye iki? ko mbona ari guregure cyane.

Abakerarugendo bakunda utuntu twinshi dushimishije kandi dutoya. Kunyura ku kiraro bakagenda baseka bishimye! Gusa njye sinashobora kuhaca.

Iyo umuntu yubaka ibyumba by'amashuri aba agomba gukomeza cane, kandi akagira icyumba gihagije kugira abana bazabe bisanzuye kandi ibikorwa remezo ni byiza.

Ni byiza cyane ko umubyeyi agomba kuganiriza umwana mu gihe bari mu gikoni, barimo guteka bagomba kugambana amagambo y'iterambere ry'ahazaza, anamukosora amakosa.

Kwitegereza ahantu heza ibizu, ibiti, ibicu, imisozi bitera umuntu kuruhuka mu mutwe kandi gusa ni byiza.

Ibikogwa remezo bifitiye abantu benshi akamaro cyane cyane ibigo by'ishuri. Abarimu babona akazi, ababyeyi bakazajya bajana abana babo ku ishuri bakigaga kugira baje gushaka agafaranga gatubutse.

Mu nama ubucecuru bwafashe mikoro, buvuga ibibazo bufitanye n'umugabo babwiraga gitifu n'abadaso batega ugutwi ubwo ntibwamushebeje?

Ari urumoto rurerure runanutse rwakwicaraho nk'abantu nka batatu, n'urumoto rubyibushe rwakwicaraho umuntu umwe, urumoto rwiza ni uruhe? Ko hari urumoto rufite akantu k'umukara karekare inyuma, n'urundi rufite akantu gatoya kagufi, urwiza ni uruhe?

Ndangura amatunda, imboga, indabo nkazijyana mu mujyi kugira mbone agatubutse agafaranga, nawe wazaza tukajyana gucuruza mu mu mugi.

Mu gihe cyo gutwaraga amagare bafanaga ababaye aba mbere kugira ngo bongere imbaraga batwara amagare uzi ukuntu bibaga ari byiza! Uzaze nawe uje ureba maze dufanane.

Nkunda ukuntu abajya ku magare bambaye ibigofero, na twa twenda tubafasheho, bajya banyonga igare, iyo uri kubareba inyuma amodoka abakurikiye ubona ari byiza cyane.

Tugomba gukora isuku dukubura, dukoresheje indizo dutera ibirabyo ku miharuro, dukora isuku mu rugo kugira ngo tube ahantu heza twita no ku mibiri yacu.